Abagabo benshi bicaye ku ntebe z'imbaho ndetse bamwe bicaye ku z'ibyuma harimo n'umuzungu hejuru yabo ku gisenge haraka amatara.

Abantu barimo abagore babiri ndetse n'umugabo bigaragara ko arimo ababwira, imbere yabo ku meza hateretse amacupa y'amazi yo kunywa menshi ndetse n'agakapu k'umukara.

Abantu benshi bicaye bigaragara ko hari ikintu bari kureba imbere yabo, bicaye mu nzu ikozwe n'inkingi zisakaje amabati, hafi y'aho bakinira umupira.

Abantu benshi harimo abi igitsina gore ndetse n'ab'igitsina gabo, imbere yabo hari umuzindaro urekura amajwi ndetse n'inyubako ifite inyingi z'ibyuma n'amabati hejuru harimo abantu benshi bari kureba ibiri gukorerwa imbere.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama mu ntebe z'imikara zifite imisego, imbere yabo hateretse amacupa y'amazi ku meza ndetse n'ibitabo n'utwuma turangurura amajwi.

Umuntu w'umugore wambaye akenda ko hejuru gaciye amaboko, gafite amabara y'umweru numukara, yambaye mu ijosi ikarita ndetse imbere ye kumeza hateretse icupa ryamazi, inyuma ye yicaye abandi bantu benshi.

Abantu benshi barimo ab'igitsina gore ndetse n'ab'igitsina gabo, ab'imbere, hicaye uwambaye impuzankano z'abashinzwe umutekano mu Rwanda, afite igitabo n'ikaramu arimo yandika, imbere ku meza atatseho igitambaro gifite amabara y'umuhondo n'icyatsi, hateretse amacupa y'amazi yo kunywa ndetse n'imitobe yo kunywa.

Abantu bicaye harimo umwe uhagaze w'umugore ufite indangururamajwi mu ntoki, bisa nkaho ari kubabwira, ku ruhande hari abagabo babiri bicaye umwe w'umuzungu undi w'umwirabura, imbere yabo hateretse za mudasobwa ku meza hateretse n'icupa ry'amazi yo kunywa.

Abantu benshi bari mu cyumba cy'inama imbere ku gikuta hari amashusho yerekana ibyo barimo gusobanurirwa, bijyanye n'ikigo gikorera mu rwanda kitwa rura imbere ku meza yabo hateretse za mudasobwa ndetse n'amacupa y'amazi yo kunywa.

Abantu benshi b'abagore bicaye mu cyumba cy'inama ku ntebe ziriho ibitambaro by'imyeru ndetse n'ameza ariho amacupa y'amazi yo kunywa, ku nkuta hariho amadirishya y'ibirahuri.

Abantu benshi barimo ab'igitsina gore nab'igitsina gabo bicaye mu ntebe, imbere yabo ku meza hateretse ibyo kunywa ndetse inyuma hari icyapa cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, hejuru ku gisenge hari kwaka amatara menshi.

Abantu bicaye mucyumba cy'inama barimo abagabo ndetse n'abagore imbere yabo ku meza hateretse za mudasobwa zirimo zaka ndetse n'amacupa y'amazi yo kunywa .

Abantu b'igitsina gabo bicaye mu ntebe zifite imisego y'umukara, ku meza imbere yabo hari za mudasobwa zifunguye bigaragara ko bari kurebamo, uwo ku ruhande yambaye ibirahuri by'amaso.

Abantu b'urubyiruko barimo ab'igitsina gore n'ab'igitsina gabo bicaye imbere yabo hari ameza arambuyeho igitambaro cy'icyatsi n'amacupa y'amazi bigaragara ko barimo kuganira.

Abantu barimo abagore batatu ndetse n'abagabo batatu bicaye mu ntebe z'imbaho ziriho imisego, inyuma y'abo hari icyapa cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza.

Abantu benshi bicaye ku ntebe zikozwe mu mbaho barimo ab'igitsina gore, ndetse nab'igitsina gabo imbere yabo hari umugabo uhagaze bigaragara ko aribyo abasobanurira. hejuru hafi y'igisenge hatatse ibitambaro bifite amabara akoze ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda.

Umuntu w'umugore uri gusuhuza umugabo, wambaye isaha wicaye iruhande rw'abashinzwe umutekano mu Rwanda b'abasirikari, hejuru yho mu ihema bicayemo hamanitsemo ibitambaro bigize amabara y'ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, handitsemo n'itariki ebyiri z'ukwa gatanu bibiri na cumi na karindwi.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama harimo ab'igitsina gore ndetse n'ab'igitsina gabo, umuzungu umwe n'abirabura, imbere yabo ku meza hatertetse amacupa y'amazi yo kunywa ndetse n'ibikoresho birangurura amajwi.

Abagore benshi bicaye mu cyumba cy'inama, imbere yabo ku meza bamwe hateretse udukapu ndetse n'amazi ari mu macupa na za mudasobwa zidafunguye n'amatelefoni ngendanwa, ku meza hatatse ibitambaro by'umweru.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama, imbere yabo ku meza harimo abafite za mudasobwa, ndetse n'amazi ateretse imbere yo kunywa ari mu macupa ku mpande hari inkuta zitatseho ibishushanyo.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama bambaye impuzankano zisa z'ubururu, imbere yabo hari ibitabo barimo kwandikamo n'amacupa y'amazi ateretse ku meza atatseho y'ibitambaro by'umweru.

Abantu benshi bicaye barimo ab'igitsina gabo ndetse n'igitsina gore, imbere yabo ku meza hateretse ibitabo, za telefoni ngendanwa, na za mudasobwa zifunguye ziri kwaka, ndetse n'amacupa y'amazi yo kunywa.

Umugabo wambaye ishati ufite ikaramu mu ntoki, uyitonze imbere bisa nkaho arimo abwira abantu bamwicaye imbere imbere yabo ateretse ameza ariho ibitabo n'amazi ari mu macupa.

Abantu benshi barimo abagabo ndetse n'abagore bicaye mu cyumba cy'inama, imbere yabo ku meza hateretse ibitabo ndetse n'amacupa y'amazi n'ay'imitobe yo kunywa.

Abantu barimo abigitsina gore nabigitsina gabo bicaye mudutebe dufite imisego isa umuhondo, imbere yabo hari abandi bicaye bigaragara ko bari mucyumba cyinama bafite ibyo bari kuganiraho.

Abantu bicaye mu cyumba k'inama imbere yabo kumeza hateretse amacupa y'amazi ndetse n'ibitabo na terefone zabo ngendanwa, umugabo umwe wambaye agashati k'umweru afite ikaramu mu ntoki.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama, ku ntebe zifite imisego z'imikara, uw'imbere wambaye ibirahuri by'amaso, ku bibero bye hateretse mudasobwa irambitseho telefone.

Umuntu w'igitsina gabo uhagaze imbereye hari agakoresho gaterekwaho igitabo ari gusoma afite indangururamajwi mu ntoki ku ruhande rwe hari abandi babiri b'igitsina gabo nuw'igitsina gore bicaye mu ntebe ziriho imisego hejuru yabo hamanitse igipapuro cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ariho n'ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda.

Abantu benshi b'ibitsina gabo ndetse n'ibitsina gore bicaye mu cyumba cy'inama ku ntebe zifite imisego, abenshi bafite za mudasobwa ziri kwaka bateruye ku bibero byabo.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama barimo abagore ndetse n'abagabo ku meza atatseho igitambaro cy'icyatsi hateretseho amaterefone ngendanwa ndetse na mudasobwa n'icupa ry'amazi imbere yabo hari umugabo ufite indangururamajwi urimo ababwira.

Abantu batandukanye barimo abagabo bambaye amakoti bicaye ku ntebe zifite imisego imbere yaho hari ameza ateretseho udukoresho turangurura amajwi barimo baganira inyuma yabo hari icyapa cy'ubururu cyanditseho amagambo menshi atandukanye ariwo kigali yacu n'ibindi bitagaragara neza.

Abantu bicaye ndetse n'abandi babiri bahagaze bafite indangururamajwi mu ntoki. Umugabo n'umugore. Imbere ku meza hatatseho ibitambaro by'umweru hateretse igikoresho gisakaza amashusho.

Abantu benshi barimo ab'igitsina gore ndetse nab'igitsina gabo bicaye mu ntebe imbere yabo ku meza hateretse ibirahuri by'amazi n'amasahani n'ibikombe n'amacupa y'amazi hirya hari abandi batatu barimo abagabo babiri n'umugore umwe bigaragara ko barimo kubaganiriza.

Abantu batatu, barimo babiri b'igitsina gore, n'uwe w'igitsina gabo, wambaye impuzankano y'ikigo gishinzwe umutekano, cyo mu Rwanda, imbere yabo ku meza hateretse amazi yo kunywa ndetse n'udukoresho tw'indangururamajwi.

Umugore wambaye agakoti k'umutuku n'inyuma ye hari abandi bagore nabo bambaye amakoti, imbere ye hari ameza ateretseho amazi ari mu icupa yo kunywa ndetse n'igikayi ari kwandikamo.

Abantu benshi barimo ab'igitsina gore nab'igitsina gabo, abicaye mu ntebe z'imituku bambaye impuzankano z'umweru abari imbere yabo harimo ab'igitsina gabo babiri n'umwe w'igitsina gore ufite indangururamajwi muntoki, kumpande zabo hakikije ibyapa bitandukanye byanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza.

Umukobwa wicaye ku ntebe iriho imisego ufite telefoni mu ntoki bigaragara ko ari kurebamo akoresha urubuga rw'irembo rutanga ubufasha butandukanye hejuru handitse akanyenyeri icyenda zeru icyenda urwego .

Umunara w'itumanaho ufite amabara y'umweru ndetse n'umutuku, imanitseho ibisahane byinshi, ku ruhande hari icyapa gisa ubururu cyanditseho tigo ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda ndetse n'ibiti biteye n'imodoka zitandukanye.

Iminara ibiri y'itumanaho ifite ibisahani byinshi ku mpande ndetse byubatswe n'inkingi z'ibyuma zisize amabara y'umweru ndetse n'umutuku.

Inzu ifite urugi rusize amarangi y'icyatsi ndetse n'inkuta hejuru zisize amarangi y'icyatsi n'umweru kumpande ifite urugo rwubakishije udutafari twi'ipunyu .

Inzu iriho ibyapa byinshi bigaragara ko ikorerwamo ubucuruzi imbere hagaragara icyapa kiriho amagambo yanditse mu cyongereza, ku ruhande hari ijerekani ifiteho akanwa gasohora amazi bigaragara ko bayikarabiramo.

Umunara w'itumanaho muremure ufite ibyuma bisize amarangi y'umutuku nay'umweru hejuru hariho ibikoresho by'itumanaho ukikijwe n'ibindi byuma kuruhande ndetse n'ipoto iwuzanira umuriro w'amashanyarazi kuruhande hari imisozi myinshi.

Mudasobwa yaka, yanditsemo amagambo, agaragaza ko iri gukoresha urubuga rw'irembo, hejuru handitse intambwe enye z'uburyo wakoresha urubuga rw'irembo.

Abantu barimo ab'igitsina gore n'ab'igitsina gabo bicaye mu ntebe imbere yabo ku meza hateretse mudasobwa iri kwaka, ndetse n'icupa ry'amazi kandi nanone hari abantu benshi barimo n'abafite amagare y'abanyonzi.

Abantu benshi barimo ab'igitsina gabo n'ab'igitsina gore bicaye imbere yabo kumeza hari za mudasobwa ziri kwaka imbere yabo n'umugabo bisa nk'aho ari kubigisha.

Umunara w'itumanaho ufite inkingi zisize amabara y'umweru ndetse n'umutuku ku ruhande hari urugo rwubakishije ibyuma n'ibiti biteye imbere yaho.

Umunara muremure w'itumanaho ufite ibisahani byinshi ku mpande, wubakishije ibyuma bisize amarangi y'umweru ndetse n'umutuku ufiteho n'udutara twaka.

Amapoto abiri agerekeranye Ari ku murongo, utwaye insinga z'amashanyarazi, hejuru hagaragara ibicu biri mu kirere by'umweru ndetse n'ubururu.

Ipoto itwara insinga z'amashanyarazi iriho n'itara ryo mu muhanda, inyuma yaho hateye ibiti byinshi ndetse n'indabyo ziri mu mifuka bigaragara ko zihumbitswe zitarajya guterwa.

Ipoto y'icyuma iriho ibindi byuma byinshi, itwaye insinga z'amashanyarazi, hariho abantu bambaye impuzankano z'akazi, bigaragara ko bari guteranya izo nsinga zambukiranya.

Ipironi y'amashanyarazi itwara insinga riri inyuma y'igipangu cy'inzu, kiriho ibyuma hejuru ndetse n'itara ryo ku muhanda.

Amapironi abiri yubatswe n'ibyuma atwara insinga z'amashanyarazi ndetse n'ipoto ebyiri zigaragara zitwara insinga z'amashanyarazi, inyuma yabyo byombi hagaragara ishusho y'umujyi urimo amazu menshi.

Ipoto ritwara insinga z'amashanyarazi ifite amaguru menshi y'ibyuma ku ruhande hari igikoresho kigabanya ndetse kikanongera umuriro w'amashanyarazi giteretse ku kantu kubakishijwe udutafari tw'imunyo, imbere yaho hari inyubako zitandukanye zifite amabati ashaje ndetse n'igihingwa k'insina.

Imodoka ndende itwara abagenzi muburyo bwa rusange y'umweru iri mu muhanda kuruhande rwayo hari ipoto itwaye insinga z'amashanyarazi, ndetse n'umutaka w'umuhondo wanditseho ikigo gitanga ubufasha bw'itumanaho cyitwa emutiyeni n'ibiti byinshi biteye iruhande rw'umuhanda.

Amapoto abiri yegeranye imwe itwara insinga z'amashanyarazi ndetse n'itara ryo mu muhanda indi itwara mubazi z'amashanyarazi, nyuma hateye igiti kiri imbere y'urugo rw'inzu yubatse.

amapoto abiri atwara insinga z'amashanyarazi ateretsemo igikoresho cyongera kikanagabanya umuriro munsi yawo harimo inyubako iparitse imbere imodoka nyinshi cyane ndetse n'abamotari

Umuntu w'umugabo wambaye agapira n'ingofero ugeze imbere y'ipoto itwaye insinga z'amashanyarazi inariho itara ryo mu muhanda, ku ruhande hari imodoka nini itwaye imizigo ndetse n'indi ntoya iriri imbere n'inzu iri imbere y'ibiti igaragara ku ruhande.

Amapironi atwaye insinga z'amashanyarazi nyinshi cyane, abiri ndetse hagaragara n'igicu cyererutse kirimo icy'umweru ndetse n'ubururu.

Umunara w'itumanaho muremure cyane, iruhande rwawo haciyeho urutsinga, ufite amabara y'umutuku ndetse n'umweru ukikijwe n'ibyuma na byo bisize amabara atukura.

Ipoto rirerire rikozwe mu byuma ritwara insinga z'amashanyarazi, munsi hateye ibiti byinshi hagaragara n'igicu cy'umweru ndetse n'izindi nsinga nyinshi cyane.

Amapoto atwaye insinga z'amashanyarazi, munsi yaho hari imihanda ibiri itandukanye n'abantu bagenda ku nkengero z'imihanda ndetse n'amazu yubatse hafi yaho n'ibiti biteye ku ruhande.

Ipironi itwara insinga z'amashanyarazi, iteretseho igikoresho kigabanya umuriro ndetse kikanawongera imbere yayo hari ibiti bikiri bito biteye mu tuntu tw'udufuka ku ruhande hari ibiti byinshi by'imigano.

Amapoto atwara insinga z'amashanyarazi, ari iruhande rw'urugo munsi yaho hateye ibihingwa by'insina, ndetse imbere hagaragara inyubako zitandukanye mu mujyi.

Amapoto abiri atwara insinga z'amashanyarazi ateretseho igikoresho kigabanya ndetse kikanongera umuriro, biri mu ishyamba riteyemo ibiti ku ruhande hateye imyaka y'ibigori.

Amapoto abiri arebana atwaye insinga z'amashanyarazi nyinshi cyane ndetse n'igicu kigaragara cyerurutse gisa umweru ndetse n'ubururu hafi y'ayo mapoto.

Ipoto itwara insinga z'amashanyarazi iri imbere y'inyubako bisa naho ikorerwamo, ubucuruzi kuruhande hari indi igeretse kenshi ifite amagorofa ikiri kubakwa, itaruzura ikirimo ibikwa byubatse.

Amapoto atwaye insinga z'amashanyarazi abiri, iruhande rwayo hari icyapa kidasomeka neza n'igiti cy'umukindo, inyuma hari umunara w'itumanaho.

Umurongo w'amapoto menshi atwaye insinga z'amashanyarazi, hariho n'amatara yo mu muhanda, ndetse n'indi yubakishijwe n'ibyuma byinshi, iri inyuma, hafi y'aho hateye ibiti byinshi.

Umuyoboro utwara insinga z'amashanyarazi hejuru ku ipoto ryubakishije ibyuma imbere hari inzu ifite urugo ruriho urugi runini cyane rusize irangi ry'ubururu.

Ipoto itwara insinga z'amashanyarazi, hasi hagaragara imodoka ntoya iri imbere y'amazu y'ubucuruzi, imwe isize ibara ry'umuhondo werurutse.

Ipoto itwaye insinga z'amashanyarazi iri iruhande rw'inzu zitandukanye imbere y'inzu isize irangi ry'umuhondo hahagaze imodoka ebyiri iy'umweru ndetse n'iy'umukara n'ibiti by'imikindo biteye iruhande rw'iyo poto.

Umuhanda ufite ku ruhanda hari imirongo y'imikara n'umweru ndetse n'ipoto itwaye insinga z'amashanyarazi, hari n'urugo rwubakishije ibyuma ruri hafi y'ibiti byinshi cyane.

Inzu nyinshi harimo iyubakishije inkingi z'ibyuma zisakayeho amabati, imbere yazo hari imbuga iteyemo ibyatsi ndetse n'akuma kamanitseho ibyapa byanditseho amagambo atari kugaragara neza.

Inyubako y'igorofa, igeretse kabiri ifite ibyuma ku mpande ndetse namadirishya y'ibirahuri, ku ruhande hari umuhanda uri kunyuramo umuntu utwaye igare.

Intebe nyinshi zikozwe mu byuma, imbere y'umuryango w'inzu hahagaze umuntu w'igitsina gabo ufite ibitabo mu ntoki areba mu idirishya bigaragara ko hari ubufasha yaje gusaba.

Imodoka y'imbangukiragutabara, ikorera mu rwanda ifite amabara y'umweru, ubururu ndetse n'umutuku n'amatara ari hejuru manini yaka y'intabaza.

Abantu benshi barimo ab'igitsina gore ndetse n'ab'igitsina gabo bicaye mu ntebe zikozwe mu mbaho zifite utwuma inyuma, harimo abahagaze imbere y'idirishya bigaragara ko hari ubufasha barimo gusaba.

Imodoka y'umutuku, iri iruhande ry'inyubako y'ibitaro bya Muhima, yubakishije amabuye ku mpande, ndetse ifite ibiti biteye mu busitani bwayo, by'imikindo, iri hafi y'umugi.

Abantu b'igitsina gore ndetse n'ab'igitsina gabo, bamwe bicaye abandi barahagaze imbere y'idirishya rifite ibirahuri, hejuru handitse imibare, cumi na kabiri ndetse na cumi na gatatu, ku ruhande hari akapa k'umutuku kerekana ko ari ahantu wakura umugozi w'igikoresho kizimya inkongi y'umuriro.

Umuntu w'igitsina gore ufite impapuro mu ntoki, wambaye agapira k'umweru n'ipantalo y'icyatsi arimo atambuka mu muhanda. Ku ruhande hari inyubako ebyiri zitandukanye. Impande zombi zifite amabati y'umutuku ndetse n'amatara yo ku mihanda. hafi yaho hari ibiti byinshi.

Abantu bicaye mu ntebe bafite impapuro mu ntoki imbere yabo hari za mudasobwa zirimo kwaka, bambaye impuzankano z'akazi zisa umweru.

Abagore babiri bicaye imbere yabo hari ameza bigaragara ko bari kwandika mu bitabo hari umugabo uhagaze abatwikiriye umutaka, n'undi uhagaze imbere wegamye ku giti n'abandi bantu benshi bari imbere yabo bigaragara ko hari ibyo barimo babazanya.

Umucamanza uri kuganira n'imfungwa yambaye impuzankano y'imfungwa, inyuma hari intebe zikoze mu mbaho, ndetse ku gikuta hari amagambo yanditseho atagaragara neza mu ibara ry'umukara.

Umuntu wambaye imyenda y'abacamanza, uhagaze imbere afashe ku idarapo ry'igihugu bigaragara ko arimo kurahira, inyuma ye hicaye abandi na bo bambaye kimwe bategereje bicaye mu ntebe zitukura.

Abantu b'igitsina gabo babiri, bambaye impuzankano z'imfungwa, bafite mu ntoki zabo ingobyi iriho umuntu uryamye woroshe ishuka, bigaragara ko ari umuntu urwaye bajyanye kwa muganga.

Abantu benshi b'igitsina gore bambaye impuzankano z'imfungwa ariko zidasa, bari kureba imbere bisa nk'aho barimo babaganiriza. Uwimbere yambaye isaha uwo ku ruhande rw'ibumosa yambaye ibirahuri by'amaso.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama ku dutebe, imbere yabo ku meza hari ibitambaro bitatseho by'umukara ndetse imbere yabo hahagaze undi muntu wambaye umwenda munini w'umukara ari kuvugira mu ndangururamajwi. Hejuru ku gisenge haraka amatara.

Umuntu w'igitsinagabo wambaye imyenda y'abacamanza y'imikara uhagaze imbere y'imfungwa zambaye impuzankano zicaye mu ntebe z'imbahu arimo aziganiriza.

Abacamanza bicaye imbere ndetse n'undi umwe uhagaze yegeranye n'umugororwa imbere y'ameza ateretseho ibitabo.

Abasore babiri bambaye impuzankano yikigo gishinzwe umutekano mu Rwanda, bafashe umugabo mu biganza wambaye agashati ndetse n'ibirahure byamaso bigaragara ko bamutwaye muri gereza.

Icyapa kinini kimanitse ku nkingi z'ibyuma cyanditseho igororero rya Gicumbi. Kiriho ikirangantego k'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ikirangantego cya gereza ku mpandi hateye ibiti byinshi n'akapa ko guhagararaho k'umutuku.

Umuntu w'umugabo wambaye imyenda y'abashinzwe umutekano mu Rwanda b'abasirikare, ufashe ku ibendera ry'igihugu cy'u rwanda, imyenda yambaye iriho amanyenyeri agaragaza urwego ariho mu by'umutekano

Umuryango mugari w'ikigo gishinzwe kugorora imfungwa, wanditseho hejuru "Igororero rya Rwamagana", ku ruhande hari inyubako ifite igisenge kiriho amabati y'umutuku.

Abantu benshi bahagaze ndetse n'abicaye barimo bitwikiriye imitaka munsi y'ibiti, imbere y'abo hari umuntu wicaye ufite ibitabo birambitse ku meza ndetse n'imfungwa imuhagaze imbere yambaye impuzangano y'imfungwa.

Abantu babiri bagaragara imbere, uw'igitsina gore n'uw'igitsina gabo n'inyuma yabo hicaye abandi benshi, imbere yabo hateretse ibirahure byo kunyweramo ibinyobwa bitandukanye ndetse n'agakombe karimo ikawa.

Abantu barimo ab'igitsina gabo babiri ndetse n'uw'igitsina gore umwe barimo barebana basa nk'aho bafite ibyo bavuganaho, bambaye imyenda y'abacamanza uw'umugore yambaye imyenda y'imfungwa, abacamanza bafite igitabo mu ntoki kirambuye.

Abantu b'abagabo bahetse udukapu harimo uwambaye ikabutura, inyuma yabo hari inzu yubakishije udutafari tw'impunyu yanditseho gereza ya Ryarugenge.

Umuntu wambaye impuzankano y'abarinzi barinda ku magereza ndetse iriho ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, ari inyuma y'imfungwa yambaye impuzankano y'imfungwa ndetse n'agapfukamunwa ifite igitabo mu ntoki.

Abagabo batatu barimo babiri bambaye impuzankano z'imfungwa ziri mu ibara ry'iroza ku ruhande hari inyubako ifite amadirishya y'ibyuma ndetse nurugi rw'ibyuma barimo babereka aho bajya .

Abantu benshi b'igitsina gabo harimo abambaye impuzankano z'imfungwa n'ubupfukamunwa ndetse n'abambaye impuzankano z'abashinzwe umutekano wabo, imfungwa ziri kuva mu modoka zihagarara ku murongo umwe. Ku ruhande hateye ibiti byinshi harimo n'iby'imikindo.

Abantu benshi bambaye udupira tw'umweru, barimo abagore ndetse n'abagabo, bafite icyapa cyanditseho inkiko gacaca ubutabera bwunga.

Abantu benshi b'abirabura harimo n'umuzungu umwe, babiri bicaye imbere bambaye impuzankano y'abacamanza. Inyuma yabo harimo imfungwa zambaye impuzankano yazo, umwe w'umugore wambaye amapingu.

Umuntu wambaye impuzankano z'ikigo gishinzwe umutekano ishami ryo mu muhanda ari kuri moto ahagaritse imodoka ntoya yatambukaga mu muhanda hafi y'ibiti byinshi ndetse n'amapoto ariho amatara yo mu muhanda.

Igikoresho cyagenewe kuzimya inkongi y'umuriro; kiri ahantu gifite umugozi usohora ibyo gikoresha kizimya nawo w'umutuku.

Imodoka y'ikigo gishinzwe umutekano ishami ryo mu muhanda yanditseho tirafike polisi ifite amabara y'umweru n'umukara bigaragara ko ihagaze iruhande rw'muhanda.

Igikoresho cyagenewe kuzimya inkongi y'umuriro kimanitse ku gikuta gisa umutuku cyanditseho amagambo asobanura ubwoko bw'umuriro kizimya ndetse n'uburyo gikoreshwa, gifite umupira usohora ibizimya w'umukara.

Imodoka iri mu muhanda yanditseho Rwanda nashino polisi, faya andi sikeya, ishinzwe kuzimya inkongi y'umuriro, ku ruhande hari inzu bigaragara ko yafashwe n'inkongi y'umuriro.

Icyapa cy'ikigo cy'igihugu cy'u Rwanda gishinzwe umutekano kiriho ikirangantego cy'icyo kigo ndetse n'ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda handitseho Nyarugenge akarere ndetse rwezamenyo na nimero ya telefoni wahasanga .

Umuntu w'umugore ufite agakapu k'umukara arimo aratambuka iruhande rw'ikigo cy'amashuri kimanitsemo ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, imbere hari akapa ndetse inyuma y'ikigo hateye ibiti.

Icyapa kimanitse ku nzu cy'ikigo gishinzwe umutekano mu Rwanda ishami ryo mu muhanda, hariho nimero wabahamagaraho igihe ubakeneye.

Abamotari benshi bari ku mamoto, bahagaze mu muhanda, imbere yabo hari abashinzwe umutekano, bambaye impuzankano y'akazi n'inyuma yabo hateye igiti cy'umutako cyitwa umukindo.

Imodoka y'umukara iriho agapapuro kanditseho amagambo, ku ruhande hari ikigega kirambitse kutwuma tw'ubururu, ndetse imbere hari indabyo ziteye mu busitani.

Igikoresho cyagenewe kuzimya inkongi y'umuriro cy'umutuku cyanditseho amagambo ari mu mabara y'umweru asobanura ubwoko bw'umuriro kizimya ndetse n'uburyo gikoreshwa, gifite umupira usohora ibizimya w'umukara.

Ibikoresho bibiri byagenewe kuzimya inkongi z'imiriro, bisa umutuku, bifite imipira isohora ibizimya y'imikara, ku mpande handitse amagambo mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu, asobanura uburyo bikoreshwa ndetse n'ubwoko bw'imiriro bizimya. Ku ruhande hateretse amakarito byavuyemo.

Umukuru w'igihugu perezida Paul Kagame ari kugenda, iruhande rwe hari abashinzwe umutekano we bamurinze, inyuma ye hari abaturage benshi cyane bafite amabendera y'umuryango wa efuperi.

Abantu batandukanye bahagaze harimo abambaye imyenda y'amabara y'umweru n'icyatsi y'ishyaka girini pati ryo mu Rwanda, harimo umwe urikuriye w'umukandida wiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama cyaka amatara menshi no hejuru ku gisenge, bicaye mu ntebe zifite imisego imbere yabo ku meza hateretse za mudasobwa ziri kwaka.

Abagore bafashe ku madarapo y'igihugu cy'u Rwanda, bambaye imikenyero bigaragara ko barimo kurahira.

Abantu b'abagore bahagaze ku ruhande hari idarapo ry'igihugu cy'Urwanda, ndetse no ku rukuta hamanitse ishusho y'umukuru w'igihugu cy'Urwanda Paul Kagame.

Umukuru w'iguhugu cy' u Rwanda Polo Kagame ari kuvugira mu ndangururamajwi, imbere ye hari abantu benshi bicaye mu ntebe bamuteze amatwi inyuma hari abandi bicaye begereye idarapo ry'iguhugu cy' u Rwanda.

Abantu b'igitsina gore bicaye mu ntebe z'imisego y'imikara imbere yabo kumeza hari utwuma turangurura amajwi bari kuvugiramo, ndetse n'amacupa y'amazi yo kunywa ari i ruhande rwabo.

Abantu barimo ab'ibitsina gabo ndetse n'ibitsina gore benshi bicaye mu ntebe zifite imisego, imbere yabo ku meza hateretse igikombe cyo kunyweramo amazi ndetse n'amacupa arimo amazi yo kunywa n'udukoresho tubari imbere tw'indangururamajwi.

Abantu benshi batonze imirongo itandukanye inyuma yaho hubatse amahema y'umweru afite ibitambaro kuruhande bitatse bifite amabara y'ibendera ry'igihugu cyu Rwanda ubururu, icyatsi, ndetse n'umuhondo.

Abantu babiri bambaye amakote bicaye mu ntebe zifite imisego y'imikara b'igitsina gabo, uw'inyuma imbere ye ku meza hateretse icupa ry'amazi ari kwandika mu gitabo uw'imbere hari agakoresho kamuri imbere k'indangururamajwi.

Abantu benshi barimo abagabo ndetse n'abagore bahagaze inyuma yabo hari idarapo ry'igihugu cy'u rwanda ndetse n'urugo rw'inzu ku ruhande hateye ibiti by'imikindo .

Abantu benshi bambaye imyenda iri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu n'umutuku n'ingofero z'imikara, bari kwamamaza umuryango wa fpr inkotanyi bafite utuntu tw'ibipfunsi mu ntoki.

Abantu barimo ab'igitsina gore ndetse n'ab'igitsina gabo ,bicaye mu ntebe zifite imisego y'umukara imbere yabo ku meza hari ibikoresho birangurura amajwi ndetse n'amacupa y'amazi yo kunywa ateretse.

Inzu iri iruhande rw'umuhanda ifiteho imiryango myinshi y'ubucuruzi, iruhande rwayo hari ipoto ririho itara ryo mu muhanda riri kwaka n'imodoka nyinshi ziri mu muhanda harimo inini isa umweruru ndetse n'indi iringaniye.

Umumotari uri kwambuka mu muhanda, inyuma ye hari inyubako iri kubakwa ikiri nshyashya itaruzura y'igorofa n'izindi z'ubucuruzi ziri imbere yayo, ndetse n'insinga z'amashanyarazi zambukiranya hejuru.

Imodoka ebyiri ziri kubisikana imwe ntoya nindi nini itwara imizigo, ku ruhande hari umuntu uri kugenda n'amaguru, hateye n'ibiti byinshi biri ku nkengero z'umuhanda.

Imodoka nini itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ifite amabara y'umweru ndetse n'icyatsi n'ubururu, ku ruhande rwayo hari moto igiye kuyinyuraho, n'izindi moto ziri inyuma ndetse n'amazu menshi yubatse bigaragara ko ari mumujyi.

Umuntu uhagaze ufashe ku idirishya ry'imodoka itwara abagenzi m'uburyo bwa rusange, ifite nimero iyiranga yanditse ra fa ga zeru gatatu umunani ha, n'umugabo k'uruhande rwe hari n'undi uri kuza ufite terefone mu ntoki ariko atagaragara neza.

Imodoka nini itwaye imizigo, itwikirije igishitingi gifite ibara ry'ubururu, yo ikaba isa umweru. Imbere yayo hari moto ziri gutambuka mu muhanda ndetse ku mpande hari umuyoboro w'insiga z'amashanyarazi n'ibiti byinshi ku mpande.

Imodoka isize irangi ry'ubururu, irimo umuntu wambaye umupira w'umutuku uyitwaye, inyuma yayo haturuka indi modoka na yo itwara imizigo, ifite ibara ry'umutuku iri mu muhanda.

Abamotari babiri bari kugenda mu muhanda bahetse abagenzi ndetse n'igare ku ruhande, hirya hari imodoka zihagaze zitari kugenda, zirimo inini n'intoya n'ibiti biteye iruhande rw'umuhanda.

Imodoka nini ifite amabara y'ubururu, ndetse n'umweru, imbere yayo hari umumotari uri kuri moto, ndetse n'umunyegare uhetse umugenzi n'akamodoka gato bigigiye kubisikana, hejuru hari icyapa cy'umutuku cyanditseho ubwoko bw'inzoga yitwa mitsingi.

Imodoka y'umutuku nini irimo igenda mu muhanda, imbere yayo hari umugabo wambaye umupira utukura uhetse igikapu ufite ingofero y'ubwirinzi mu ntoki ikoreshwa n'abatwaye moto, ku ruhande rw'umuhanda hateye ibiti byinshi.

Aabantu babiri babamotari bahetse abagenzi bateruye nutuntu tw’ udufuka mu ntoki ku ruhande rwabo hari imodoka bari kubisikana y'umweru ndende ihetse umuzigo uhambirije imigozi.

Imodoka ebyiri zishoreranye ntoya, mu muhanda uciyemo uturongo tw'umweru tugabanya umuhanda mo ibisate bibiri, ku ruhande hari urugo rw'inyubako ruriho ipoto itwara insinga z'amashanyarazi ndetse n'itara ryo mu muhanda.

Imodoka iri kugenda mu muhanda w'igitaka ihetse umuzigo utwikirije ishashi isa icyatsi, imbere yayo hari imifuka irimo ibintu, ihagazeho umugabo ndetse n'umugore bari kuganira.

Umuntu utwaye igare wambaye agapira k'umutuku ahetse imizigo y'imifuka y'umweru ndetse n'iyo umuhondo, iruhande rwe hari imodoka ntoya ndetse n'inyubako zitagaragara neza.

Imodoka iri mumuhanda nijoro yaka amatara y’ umutuku ifite ibara ry'umweru itwara abagenzi muburyo bwa rusange kuruhande ari umuntu uri gutambuka.

Umuntu w'igitsina gabo ufite agakapu k'umukara mu ntoki arimo atambuka iruhande rw'umuhanda, imbere hari ipoto y'amashanyarazi iriho itara ryo mu muhanda ndetse n'imodoka nyinshi zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ziri imbere y'amazu y'ubucuruzi.

Imodoka ifite amabara y'ubururu ndetse n'umweru itwara abagenzi mu buryo bwa rusange iri kugenda mu muhanda ibisikanye n'indi ntoya y'umukara itagaragara yose, ku ruhande hari ibiti byinshi ndetse n'uruzitiro bigaragara ko inyuma hari kubakwa.

Moto ihetse umugenzi iri kugenda mumuhanda kuruhande rwayo hari akandi gatoya, gaheka imizigo gasa ubururu ,kuruhande hari inyubako y'igorofa iparitse imodoka imbere yayo ndetse ifite imiryango myinshi ikorerwamo ubucuruzi.

Ikusanyirizo ry'bicuruzwa by'ibinyobwa biri mubikoresho byagenewe kubitwara bisa umutuku ndetse n'ubururu, ku ruhande haparitse imodoka igiye kubitwara.

Abantu benshi, barimo n'abanyonzi b'amagare, bari kugenda mu muhanda nijoro, wakamo amatara, ku ruhande hari ubusitani buteyemo ibyatsi, n'igare ritariho umuntu.

Imodoka nini isa umutuku, irimo igenda mu muhanda, imbere yayo hari umuntu utwaye igare, ku ruhande rw'umuhanda hari inzu iteyeho ibiti ku ruhande byinshi.

Umuhanda wegereye inyubako, ikiri kubakwa itaruzura vuba ndetse kuruhande haparitse moto itariho umuntu n'umugabo uri kugenda kuruhande rw'umuhanda wambaye agapira k'umuhondo.

Umuntu w'igitsina gabo uri gusunika igikoresho cyitwa ingorofani, kiriho imifuka ibiri ndetse imbere ye hari inyubako y'igorofa ikikijwe ni n'amapoto itwaye insinga z'amashanyarazi n'abantu benshi bagenda mu muhanda.

Moto ihetse umugenzi ndetse n'inyuma yayo hari indi imbere hari imodoka ntoya y'umweru igeze iruhande rw'inyubako ifite imiryango myinshi ikorerwamo ubucuruzi.

Umuntu w'igitsina gabo ufite igare ari gusunika rihetseho agafuka ku ruhande hari imodoka ifite amabara asa n'icunga rihishije ndetse nay'umweru itwara abagenzi mu buryo bwa rusange n'indi ntoya iri kwerekeza imbere iruhande rwayo hahagaze umuntu w'umusore .

Abantu bari iruhande rw'umuhanda inyuma yabo hari imodoka nini y'amabara y'ubururu, n'umweru n'umukara itwara abagenzi muburyo bwa rusange kuruhande hari ibiti byinshi ,n'ruzitiro inyuma hari inyubako nshyashya iri kubakwa.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange nini y'amabara y'ubururu ndetse n'umweru, ku ruhande hari umuntu wambaye impuzankano y'akazi utambuka ndetse n'indi itagaragara yose itwara abagenzi mu buryo bwa rusange y'umweru

Umumotari wicaye kuri moto agenda mu muhanda ageze iruhande rw'imirongo y'umweru iciye mu muhanda yambukiramo abanyamaguru, imbere y'umuhanda hari amapoto ariyo amatara yo mu muhanda ndetse n'ibiti byinshi ku ruhande.

Imodoka y'umweru ifite ibyuma hejuru itwara imizigo, yanditseho inyuma amagambo atari mu rurimi rw'ikinyarwanda dayihatsu ifite nimero RGA gatandatu gatanu karindwi ya iruhande rwayo hari icyapa cyerekana ko batemerewe kuhagarara ndetse n'inyubako ikorerwamo ubucuruzi.

Umumotari wicaye kuri moto urimo agenda mu muhanda kuruhande hari urukuta rw'inyubako ndende ndetse n'ibiti bigize ubusitani buri imbere yiyo nyubako.

Abantu bari kuri moto harimo umwe uhetse umugenzi inyuma yabo haturutse imodoka bari mu muhanda ku ruhande rwawo uteyeho ibiti by'imikindo ndetse hirya hari izindi modoka ziri kuza.

Igare riparitse iruhande rw'umuhanda inyuma y'imodoka y'umweru nayo igenda mu muhanda. Imbere hari umuntu ugenda n'amaguru, hafi ye hari imifuka biteretse mu muhanda.

Imodoka nini y'umweru iri mu zitwara amavuta acanwa, iri mu muhanda. Ku ruhande hari umuyoboro w'amazi n'akararo gato kambukiraho abagenzi, no hirya yayo hateye ibiti byinshi cyane.

Imodoka ihetse ibiryamirwa byinshi bitwikirije ishashi, ndetse n'indi ntoya y'umweru iri kugenda mu cyerekezo gitandukanye, irimo uyitwaye, ku ruhande hateye ibiti.

Imodoka nini y'amabara y'umweru haciyemo imirongo y'icyatsi ndetse n'ibirahure itwara abagenzi mu buryo bwa rusange ibisikana n'indi modoka ntoya y'umukara itagaragara yose, ku ruhande hateye ibiti n'ipoto iriho itara ryo mu muhanda.

Umuntu uri gusunika igare mu muhanda ruriho umuzigo, ku ruhande hari uruzitiro ruriho akantu k'akenda kabengerana, n'ibiti byinshi bigaragara ko aho hazitiye harimo igikorwa cy'ubwubatsi.

Umuntu w'igitsinagore ufite agakapu mu mugongo utambuka iruhande rw'imodoka ihagazemo undi w'igitsinagabo yambaye agapira k'umuhondo, hirya hari moto ihetse umugenzi ibisikana n'iyo modoka uruhande hateye ibiti byinshi.

Imodoka y'umweru ihetse ibintu bitwikirije ishashi y'umukara, k'uruhande rwayo hari umuntu ugenda n'amaguru, hirya yayo hari uruzitiro ruzitiye ibiti biteye ahantu naho hari abantu bari kubaka.

Abantu benshi barimo ab'igitsina gore ndetse nab'igitsina gabo bicaye ku dutebe tw'imbaho turi hafi y'inyubako ndende y'igorofa ifite ibirahure mu mpande n'amadirishya afunguye ndetse n'ibiti biteye imbere yayo.

Abantu batandukanye bari kugenda mu muhanda n'abandi bicaye iruhande rwawo ku tuntu twubatse tw'udusima munsi y'ibiti by'imikindo n'amatara menshi yaka, bigaragara ko ari igihe cya n'ijoro.

Abantu barimo ab'igitsina gore n'ab'igitsina gabo bahagaze munsi y'inzu yubatswe n'imbaho ndetse n'ibyuma bisize amarangi y'umukara, imbere hari inyubako z'amagorofa zifite ubusitani bw'ibiti birimo imikindo.

Ahantu hakikijwe n'urugo rwubakishije ibyuma hagenewe guhagara ibinyabiziga, hahagazemo moto ndetse n'imodoka ku ruhande rw'iburyo.

Ikibuga cy'umupira gisize amarangi yi'cyatsi hasi ndetse n'umutuku waciyemo imirongo y'mweru ku ruhande hari inzu y'amabati n'inkingi zisize amarangi agize ibendera ry'gihugu cy'u Rwanda umuhondo icyatsi n'ubururu ahicara abaje kureba umupira.

Ibyuma byubatse iruhande rw'umuhanda bitangira impanuka ndetse n'amabara y'umukara n'umweru asize iruhande rwawo inyuma hari inyubako ifite ibikoresho hejuru bikoresha amashanyarazi bishyushya amazi ndetse n'ibiti by'imikindo biteye hafi y'umuhanda.

Abantu b'abasore bicaye mu ntebe z'amabara y'icyatsi ndetse hirya yabo hari inzu yubakishije inkingi z'ibyuma zisize amarangi y'icyatsi ubururu n'umuhondo bigaragara ko hari aho abantu baje kureba umupira bicara ku kibuga cy'umuhanda.

Icyapa kimurika gifite ishusho ya mpandeshatu ndetse n'amatara atatu; iry'umutuku, n'iry'umuhondo ndetse niry'icyatsi rifite ubuso bw'umweru.

Icyapa kiri iruhande rw'umuhanda gifite ishusho ya mpande eshatu ubuso bw'umweru n'umuzenguruko w'umutuku ndetse n'ikirangantego cy'umukara gisobanuye ahari agacuri kuruhande haparitse imodoka imbere y'inyubako ifite hejuru igikoresho gishyushya amazi ndetse n'ibigega biri kumpande.

ibyapa bibiri bihekeranye, kimwe gifite umuzenguruko w'umweru, ubuso bw'umutuku ndetse n'ikimenyetso cy'umweru, gisobanuye iherezo ry'ibibuzwa mu karere ndetse hari ikindi kicyegereye kitagaragara neza kiri mu ishusho y'uruziga cyerekana ko bitemewe gukatira iburyo.

Icyapa kiyobora gifite ishusho ya mpande enye n'amabara y'icyatsi n'umuhondo ndetse n'amagambo yanditsemo asa umweru, handitse Akanyaru, Huye, Muhanga hasi yanditse Ruhango, Kinazi imbere yacyo hari inyubako y'umuturage.

Icyapa gifite ubuso bw'umuhondo, n'umuzenguruko w'umuka n'umuhondo n'ikimenyetso cy'umukara cyerekana imihanda ibiri ihuye.

Icyapa kiri iruhande rw'umuhanda kiburira gifite ishusho ya mpande eshatu umuzenguruko w'umutuku n'ubuso bw'umweru n'ikirangantego cy'umukara cy'umuntu cyerekana ahari gukorerwa imirimo.

Icyapa kiri mu byapa biburira, gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru n'ikirangantego cy'umukara cyerekana ko hari agacuri imbere.

Urukuta ruriho icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo mumpine ndetse n'imibare KG550ST n'umubare munini ugaragara cyane icyenda, kuruhande hagaragara mo imbere igiti cy'umukindo cyakuze.

Icyapa gifite ishusho ya mpandeshatu ku muzenguruko w'umutuku ndetse n'ubuso bw'umweru, kiri mu byapa biburira cyerekana aho banyura bazengurutse.

Akapa gato k'umweru kanditseho amagambo Kibugabuga, imbere hari ihuriro ry'imihanda itatu itandukanye, irimo imirongo y'imyeru n'umukara ku ruhande haciye amapoto atwaye insinga z'amashanyarazi, ndetse n'imwe iriho itara ryo mu muhanda.

Ibyapa bibiri biri mu bwoko bumwe biri mu biburira bifite ishusho ya mpande eshatu, icyo hejuru cyerekana ahari imihanda ihuriranye ibiri, icyo hasi cyerekana ahantu hambukira abana, biri i ruhande rw'inzu yubakishije amasima ndetse n'utwana dutambuka mu muhanda ku ruhande.

Icyapa cy'ubururu kirimo inyuguti ya pa ndetse n'imodoka, bisobanuye aho imodoka zihagarara umwanya muto, ku ruhande hari imbuga iteyemo ibyatsi, imbere yayo hari inyubako y'igorofa ndende.

Abantu babiri begamye i ruhande rw'umuhanda, hafi yabo hari icyapa gifite umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru, n'ikimenyetso cy'umukara cy'umuntu utwaye igare, kivuga ko nta muntu utwara ikinyamitende wemerewe kunyura kuri uyu muhanda, ku rundi ruhande hari umugabo uri inyuma y'umugore bari gutambuka binjira ku muryango w'inyubako.

Icyapa cy'umutuku gifite umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru, ndetse n'ikimenyetso giciyemo cy'umutuku, gisobanura iherezo ry'ibibuzwa mu karere giherereyemo.

Icyapa gifite ubuso bw'ubururu, mu ishusho ya mpande enye, harimo ikimenyetso cy'imodoka cyerekana aho imodoka zihagarara umwanya muto, ku ruhande hari ibara ry'umweru.

Icyapa kiri mu byapa biburira gifite ubuso bw'umweru, umuzenguruko w'umutuku, ndetse n'ishusho ya mpande eshatu n'ikimenyetso cy'umukara, cyerekana ko umuhanda ushamikiyeho undi muto.

Icyapa cy'umuhondo gifite ishusho ya mpande enye, ikirangantego cy'umukara n'ubuso bw'umuhondo, kerekana ikona iburyo kimanitse ku rukuta rwukishije imbaho.

Ibyapa bibiri birekeranye kimwe kiri hejuru kiri mu byapa biburira gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku ndetse n'ubuso bw'umweru cyerekana aho banyura bazengurutse.

Urusisiro rurimo inzu nyinshi, imbere hagaragara ipoto y'amashanyarazi ndetse n'ikigega cy'amazi kiyegereye cy'umukara kiri hejuru y'inzu.

Inyubako nyinshi z'amagorofa zegeranye imwe yanditse hejuru ijambo riri mupine r ,t na b. Imbere yazo hateye ibiti byinshi.

Icyapa kinini cyanditseho amagambo mu ibara ry'umukara, akagari ka Mbogo ndetse hasi hari akandi kapa gato kanditseho isibo ya gatandatu Ubwitange, umudugudu w'inyange akagari Wimbogo umurenge Nyarugunga.

Umuntu wambaye ishati uhetse igikapu cy'umukara mu mugongo, ku ruhande hari moto iri iruhande rw'imodoka y'umweru n'imbere hari indi yambukiranya umuhanda, imbere yaho hari amazu menshi y'amagorofa imwe ndende imanitseho ibikoresho by'iminara y'itumanaho.

Ibiti biteye iruhande rw'umuhanda ku ruhande rwawo ufiteho uturongo twumukara ndetse n'umweru hejuru hagaragara igicu.

Inyubako nyinshi zitandukanye harimo n'izigeretse zifite ibiti biteye imbere ku mbuga zazo byinshi bitandukanye ndetse n'utuyira duciyemo mu mpande.

Abantu benshi barimo bagenda murusisiro imbere yamazu ndetse kuruhande hari inzu iteye irangi ry'bururu imbere yaho haparitse amamoto menshi hariho iyicayeho umuntu

Inyubako ndende iriho ibyapa byinshi ku miryango, ikorerwamo ubucuruzi. Imbere hateye ubusitani bw'indabyo ndetse n'ibyatsi.

Ihuriro ry'imihanda kuruhande mu busitani bwaho hateye ibiti by'imikindo ndetse n igihingwa cy'insina handitse amagambo kimironko kwa mushimire.

Inyubako y'igorofa igeretse kenshi, imbere yayo ifite ubusitani buteyemo ibiti ndetse n'izindi nyubako ntoya ngufi ziri munsi yayo, zifite amabati yererutse.

Imodoka ziparitse imbere y'urugo ndetse na moto, ku ruhande hari umugabo uhagaze munsi y'umutaka, imbere y'umuhanda uriho umugende w'amazi utindishije utwuma hejuru kugirango abantu batambuke.

Inzu ifite amabati ashaje asize marangi atukura hejuru yayo hanyuze insinga z'amashanyarazi, inyuma yayo hari igihingwa cy'insina kiri imbere y'indi nyubako nayo ifite amabati y'umutuku.

Amazu menshi arimo afite amabati atukuru ndetse n'inyubako z'amagorofa bigaragara ko ari mu mujyi, hateyemo ibiti byinshi ku ruhande hagaragara inzu yubakishije amabati.

Ibiti byinshi ndetse n'ibyatsi biri iruhande rw'inyubako nyinshi zigiye zitandukanye, harimo izifite amabati atukura ndetse harimo n'amagorofa menshi ahantu hameze nk'umusozi.

Inyubako ndende y'igorofa ifite amadirishya y'ibirahure ndetse imbere yayo hateye ibiti, ku mbuga yayo haparitse imodoka nyinshi ntoya z'umukara ndetse n'indi modoka iri imbere iri gutambuka, ku ruhande rwayo hari umumotari.

Imbuga iri imbere y'inyubako yo irimo udutafari dukozwe mu isima ndetse n'imodoka ebyiri ziri ku ruhande rwaho n'ibiti biteye imbere y'inzu.

Amazu menshi harimo n'ageretse kenshi afite amagorofa yo hejuru bigaragara ko ari mu mujyi hateye n'ibiti byinshi handitsemo ijambo kimironko.

Inzu igeretse kenshi; munsi yayo hari indi itageretse iriho ibyapa hejuru n'imiryango ikorerwamo ubucuruzi. Imbere yayo haparitse imodoka zirimo iy'umukara.

Ishusho yanditsemo amagambo kimironko wa nayinzira irimo amazu menshi cyane, ndetse harimo n'ageretse imbere hagaragara ishyamba ry'ibiti.

Igihingwa k'ibigori bigaragara imbere y'inyubako nyinshi ziri mu mujyi wa Kigali ahitwa Kibagabaga hateye ibiti bitandukanye ndetse n'amagorofa menshi agiye arimo.

Inzu ndetse n'urugo rwayo rwubakishije udutafari dutoya tw'impunyu, mu mpande hagiye harimo ibyuma bisongoye hejuru nk'amacumu.

Abantu b'abasore babiri, bicaye imbere y'umuryango w'inzu ucururizwamo ndetse n'undi ku ruhande uriho abagabo babiri, bigaragara ko na bo bari gucuruza, ku ruhande hari akazu gatoya gakoreramo umuntu utanga ubufasha bw'itumanaho ry'ikigo cyitwa Emutiyeni, gikorera mu Rwanda.

Imodoka ihagaze iruhande rw'inyubako ndende y'igorofa, ifite ubusitani burimo ibiti bitandukanye, ndetse n'amatara yakamo n'insinga nyinshi z'amashanyarazi zambukiranya imbere yayo.

Umuhanda ugaragara kumpande ufiteho imiyoboro itwara amazi ndetse n'ipoto ririho itara ryo mumuhanda, inyuma, iruhande rw'umuhanda hateye ibiti byinshi.

Umuhanda uciyemo imirongo y'umweru ishoreranye yerekana aho abanyamaguru bambukira n'indi y'umuhondo, ku ruhande hari igikoresho gifotora imodoka ziri ku muvuduko urengeje ukenewe n'agatara k'umutuku, inyuma yabyo hari ibiti bitewe.

Moto ziri kwambuka umuhanda ziturutse mu cyerekezo cya ruguru, harimo imwe ihetse umugenzi ndetse n'imirongo iciye mu muhanda yerekana aho abanyamaguru bambukira, n'amazu agaragara iruhande rw'umuhanda imbere yayo hari ibiti.

Umuhanda w'ibyerekezo bibiri bitandukanye, imbere yawo hari ipoto ry'amashanyarazi ritagaragara ryose n'icyapa nacyo kitaboneka neza ku mpande hateye ibiti byinshi bitandukanye.

Umuhanda urimo imodoka ntoya ebyiri ziri inyuma y'ibindi bimodoka binini ku mpande hateye ibiti by'imikindo ndetse hari imirongo iciye mu muhanda y'umuhondo.

Umuhanda uciyemo imirongo inyurwamo n'abanayamaguru kuruhande hariho imodoka iri kwambuka mu wo byegeranye, ndetse na moto zicanye amatara zihetse abagenzi, n'amatara yo ku muhanda ari kwaka umuhondo, n'ibiti byinshi ku ruhande.

Moto ziri kugenda mu muhanda inyuma hagaragara imodoka nayo iziri inyuma, ku ruhande hateye ibiti byinshi cyane ndetse n'akazu gatoya karimo agatebe kicaramo abantu bategereje imodoka ngo batege.

Umuhanda uciyemo imirongo y'umweru igaragaza aho abanyamaguru bambukira, ku ruhande hari inyubako z'ubucuruzi zitandukanye, ndetse n'imodoka ziri imbere yaho, n'amamoto atwara abagenzi.

Moto ebyiri zikurikirana ziri mu muhanda inyuma yazo hari imodoka ndetse na moto nayo iyiri inyuma ihetse umugenzi, biri kunyura munsi y'ikiraro ku ruhande hateye ibiti byinshi cyane.

Imihanda myinshi y'ibyerekezo bitandukanye ihuriye hamwe, iri imbere y'inyubako zitandukanye zirimo iz'amagorofa ndetse n'amapoto atwaye insinga z'amashanyarazi aciye ku mpande n'imodoka ziparitse imbere y'inyubako.

Ibyapa byaka amatara biyobora abagenzi ndetse n'abamotari bari kuri moto bahagaze mu muhanda, ku ruhande hari imiringo iciye mu muhanda y'umweru yerekana aho abanyamagura bambukira n'ibiti byinshi bigaragara iruhande rw'umuhanda.

Umuhanda urimo imirongo y'umweru ndetse n'umukara iri kugendamo moto iriho umumotari, kuruhande hateye ibiti byinshi cyane ndetse hari n'imodoka y’ umukara ntoya igenda mumuhanda.

Igare rihetse intebe zikozwe mu mbaho, igiye kunyura munsi y’kiraro kirekire gifite inkingi. Imbere hari imodoka zigiye kubisiganiramo n’igare nini y’umukara ndetse n’iy’umutuku.

Ihuriro ry'imihanda itatu itandukanye ifite imiyoboro y'amazi ku mpande ndetse imbere hagaragara amapoto atwaye insinga z'amashanyarazi, munsi yayo hari inzu zifite ibisenge biriho amabati y'umutuku.

Ibyapa biyobora abagenzi byaka amatara y'umutuku ndetse n'umuhondo kuruhande hari moto zambuka umuhanda ndetse n'amabara y'umweru aciye imirongo mu muhanda.

Imodoka ebyiri ziri kugenda mu muhanda zijya mu cyerekezo kimwe imbere yazo hari aka modoka gato k'ubururu ndetse n'akazu kuruhande kubatswe n'amabati n'ibyuma gasize nako amarangi y’ubururu n'umuntu ufite agafuka n'ibiti byinshi biteye iruhande rw'umuhanda.

Umuhanda urimo imyambi y'umweru iri mu ishusho y'umwambi, kuruhande hari umugabo uhagaze wambaye agapira k'umutuku, ndetse n'icyapa cyanditseho Rwanda ku ruhande.

Abantu barimo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo bari kwambuka mu muhanda ahaciye imirongo y'umweru hambukira abanyamaguru ndetse na moto zitwaye abagenzi ziri imbere yabo.

Umuhanda uciyemo imirongo myinshi y'umweru yerekana aho abanyamaguru bambukira harimo umuntu w'igitsina gore uri kwambuka, ku ruhande hari akana kambaye impuzankano y'ishuri kagiye kwiga n'umumotari uri kuri moto ugenda, hirya hari insinga z'amashanyarazi ziciye hejuru y'amazu y'ubucuruzi.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bya moto, ku ruhande hari inyubako, imbere yazo zifiteho imitaka ikoreramo abacuruza ibijyanye n'itumanaho rya emutiyeni n'amatara yaka ku mazu.

Imihanda ibiri y'ibyerekezo bitandukanye igaragaramo imirongo y'umweru yerekana akayira k'aho abanyamaguru bambukira, mu mpande hateyemo ibiti by'imikindo ndetse harimo n'amapoto ariho amatara yo mu muhanda n'abamotari bahetse abagenzi bagenda mu muhanda.